Inzego z'umutekano mu kiciro cy'igisirikare aho zifashishwa mu kubungabunga umutekano w'abaturage.

Ihuriro ry'abantu bashinzwe umutekano mu Rwanda, haragaragaramo abasirikare ndetse n'abari mu nzego za polisi, gusa none hagaragara umuntu umwe ushinzwe ikigo gishinzwe iperereza n'ubugenzacyaha kizwi nka RIB.

Abantu babarizwa mu rwego rushinzwe umutekano aho bari gukora akarasisi, aba ngaba bafite umumaro ukomeye cyane mu bijyanye no gusigasira ubusugire bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, si ibyo gusa kandi banabungabunga amahoro ku rwego rw'isi yose.

Ahantu hari kubera inkongi y'umuriro, aho hari kugaragara abantu bari kuherekeza bashaka kuza kuzimya uwo muriro uri kwaka muri iyo nzu, haragaragara abantu benshi cyane bashungereye bateze amaso yabo kure iyo nzu irimo gushya.

Igikorwa kiri gukorwa n'abantu bashinzwe umutekano, aho bari kwigisha abaturage ukuntu bazimya inkongi y'umuriro, bifashishije ibikoresho bya tekinoloji by'umwihariko bigizwe n'ibinyabutabire.

Ahantu basuzumira ubuziranenge bw'ibinyabiziga, by'umwihariko hagamijwe kubungabunga umutekano wo mu muhanda ,ndetse no kugabanya impanuka zibera mu muhanda.

Inama rusange yahujije inzego zishinzwe umutekano arizo polisi, ndetse na daso aho bari kuganira ku ngingo nyinshi cyane, zigiye zitandukanye, zerekeranye n' uburyo bwo kubungabunga umutekano wa rusange.

Abantu bashinzwe umutekano aho bari ku mirongo bari gukora igikorwa kizwi nka karasisi cyangwa se palede, abangaba bafite uruhare rukomeye cyane mu kubungabunga umutekano wa rubanda ndetse n'ibintu byabo.

Inama yahuje abaturage ndetse n'inzego bwite za leta, by'umwihariko inzego zishinzwe umutekano aho bari kwiga ku mutekano w'igihugu n'izindi ngamba.

Inama rusange yahujije, inzego zishinzwe umutekano n'abaturage, aho bari kuganirizwa, kuri gahunda y'ibijyanye nagerayamahoro, na gahunda igamije kubungabunga, umutekano wo mu muhanda, haba abanyamaguru ndetse n'abantu batwara ibinyabiziga.

Ihuriro ry'inzego zishinzwe umutekano mu Gihugu cy'u Rwanda, aho harimo urwego rwa daso urwego rwa polisi ndetse n'urwego rwa gisirikare. Izi nzego zose zibumbiye hamwe zifite umumaro ukomeye cyane mu kubungabunga umutekano w'Igihugu cyacu.

Abashinzwe umutekano bari mu birori bijyanye no gusoza amasomo ya gisirikare, bahabwa by'umwihariko bijyanye no kurwanira mu mazi.

Ubwato bu nini cyane, bukoreshwa n'inzego zishinzwe umutekano, mu Rwanda zizwi nka porisi, haragaragara kandi abantu babiri b'abaporisi bafite imbunda, bakoresha mu kurinda umutekano, by'umwihariko wo mu mazi.

Igikoresho kizwi nka kamera cyifashishwa mu bintu bijyanye no kurinda umutekano wo mu muhanda aho gifotora amafoto y'ibinyabiziga cyigereranya umuvuduko wabyo biri kugenderaho ndetse n'uwari ukwiye kuba ugenderwaho.

Abantu bashinzwe umutekano bambaye impuzangano z'igiporisi cyu rwanda, aho bifashishwa mu kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu, mu ce zigiye zitandukanye mu rwanda ndetse no ku isi muri rusange.

Indege y'ifashishwa mu bintu bijyanye no kubungabunga umutekano, by'umwihariko hagaragara umuntu uri kumanukira ku mugozi bigaragara ko ari umusirikare.

Kamera yifashishwa mu bikorwa bijyanye no kubungabunga umutekano wo mu muhanda, aho ifata amashusho y'ibinyabiziga, ikareba niba biri kugendera ku muvuduko wateganyijwe, mu rwego rwo kwirinda impanuka zibera mu muhanda.

Inzego z'umutekano ziri gukora akarasisi aho ziri kugakorera mu nyubako izwi nka sitade, aho hahuriyemo abantu benshi cyane. Izi nzego z'umutekano zigira umumaro mwinshi cyane mu bijyanye no kubungabunga ubusugire bw'igihugu cyacu.

Inama yahuje abaturage ndetse n'inzego z'umutekano, aho bari kuganira n'urwego rwa Daso ku bijyanye n'uburyo babungabunga umutekano w'u Rwanda, cyangwa se sosiyete muri rusange.

Indege yifashishwa mu bikorwa bijyanye no kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange. Abantu bari gusohokana ikintu kimeze nk'igisandu kirimo ibikoresho bavanye muri iyo ndege, ibi bikoresho bikaba nabyo byifashishwa mu kubungabunga ubusugire bw'igihugu.

Ahantu rusange haparika imodoka by'umwihariko imodoka zitwara imizigo, haragaragara kandi abantu bigaragara ko bakora mu bintu bijye no gupakira no gupakurura izi modoka imizigo ziba zatwaye.

Ahantu habereye inama y'umutekano, yahujije inzego zishinzwe umutekano za polisi ndetse n'abaturage, aho bari kuganirizwa ku bintu bijyanye n'umutekano wo muri rubanda, ndetse n'uw'igihugu muri rusange.

Inzego zishinzwe umutekano mu cyiciro cya polisi, aho bari kubungabunga umutekano wo mu muhanda, by'umwihariko barifata ibyangombwa by'abaturage bakagenzura, ikigamijwe nta kindi ni ukugira ngo bamenye neza ko amahoro n'umutekano bicunzwe neza mu gihugu cyacu.

Inama yahujije n'ubuyobozi bwite bwa Leta, ndetse n'abaturage, aho bari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye, bigaragara mu muryango mugari nyarwanda.

Inama rusange yahujije abaturage ndetse n'ubuyobozi bwite bwa Leta aho bari kuganira n'abaturage, ku bijyanye no kwimakaza umuturage ku isonga, sibyo gusa kandi haragaragara n'inzego zishinzwe umutekano ari rwo rwego rwa polisi.

Inama rusange yahujije inzego bwite za leta, aho bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, imbere haragaragara umugabo umwe, bigaragara ko ariwe uyoboye iyi nama, iri kubera muri iki cyumba, kandi hagaragara ifoto hejuru ya Nyakubahwa perezida wa Repubulika.

Inama rusange yahuje abaturage b'ibyiciro byose, aho hagaragaramo abana, abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo haragaragara umuntu umwe uhagaze urimo abagezaho ikiganiro ku ngingo zigiye zitandukanye.

Inama rusange yahuje abaturage n'inzego bwite za Leta. Muri bo hagaragaramo abantu b'ibyiciro byose, abagore ndetse n'abagabo, aho bari kuganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye bigaragara muri sosiyete.

Inama rusange yahuje abantu bagiye batandukanye. Haragaragaramo abagore, abagabo ndetse n'abana. Imbere yabo haragaragaraho umuntu umwe uhagaze imbere, bigaragara ko ari kubaha ikiganiro ku bintu bigiye bitandukanye.

Inama rusange yahujije ubuyobozi bwite bwa Leta, ndetse n'abaturage b'ingeri zose, abagabo, abagore ndetse n'abana, aho bari kuganira ku bintu bijyanye n'umutekano wa sosiyete muri rusange , ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere

Intebe yifashishwa mu Rwanda rwo hambere, aho yakorwaga mu giti, by'umwihariko yakundaga kugaragara mu ngo, zakorerwagamo imihango ijyanye no kubandwa, kuko ngo yicarwagamo n'imandwa.

Igikoresho gikoze mu giti kikaba ari gakondo, kifashishwaga mu Rwanda rwo hambere, igihe babaga bari gukama inzoga iva mu bitoki izwi nk'urwagwa. Hagaragara kandi uduti tuzirikanyije tuzwi nk'udutanda twifashishwaga igihe babaga bari gukamura igikatsi.

Bimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere bizwi nk'ikirago. Iki gikoresho bagikoraga bifashishije ibyatsi bizwi nk'ubusuga, iki kirago abantu bakiryamagaho mbere yuko za matela ziza mu gihugu cyacu.

Abagore babiri bari gukora igikorwa kizwi cyane cyane mu muco nyarwanda, nko kuboha cyangwa gutondera igikoresho cyifashishwa mu Rwanda kizwi nk'ikirago, aho babikora bifashishije ibyatsi byitwa imisuga ndetse n'imideyi.

Abana bari gukora ibikorwa bizwi, cyane cyane mu muco w'u Rwanda, aho bari gusya ifu bifashishije igikoresho cy'ibuye, kizwi nk'urusyo, ndetse n'ingasiye. Byifashishwaga igihe babaga bari gusya ifu iva mu masaka, ibigori, ndetse n'ibindi binyampeke byinshi cyane.

Kimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, gifite umwihariko wo kuba kizwi cyane cyane mu muco nyarwanda, aho cyifashishwaga bashyiramo ibinyampeke nk'ibigori ndetse n'ibishyimbo. By'umwihariko bagikoreshaga batwererana, babivana mu rugo rumwe babijyana mu rundi, by'umwihariko mu birori by'ubukwe nyarwanda.

Kimwe mu bikoresho bizwi cyane mu muco nyarwanda bita igisabo cyari gifite umumaro ukomeye cyane mu rwanda rwo hambere, kuko cyifashishwaga igihe babaga bari gucunda amata. Si ibyo gusa kandi, cyagiraga n'injishi zacyo bakimanikagamo.

Imbyino gakondo zizwi cyane mu muco nyarwanda . Aho hagaragaramo abantu b'abadamu ndetse n'bana bato bari kubyina. Aba bantu bazwi ku izina ry'intore aho bambaye impuzankano . Ab'inyuma bambaye imyenda y'umweru, ndetse ab'imbere bo bambaye itandukanye na bo , ikaba ifite n'imigara ku mitwe zabo.

Umugore uri gukora imirimo ijyananye n'ububumbyi. Aho ari gukora ibikoresho bakora mu ibumba harimo ibibindi, inkono ndetse n'ibindi byifashishwa mu rugo mu buzima bwa buri munsi mu bikorwa bijyananye no guteka.

Inzu izwi cyane cyane mu muco nyarwanda aho yubakwaga bakoresheje ibyatsi, bizwi ko yabaga ibamo umwami akayikoresha nk'ikitabashwa cyangwa se ingoro ikikijwe n'uruzitiro rwubakishije ibiti byo mu bwoko bw'imbingo.

Abagore bari kubyina imbyino gakondo cyane cyane zizwi mu muco nyarwanda. Aho ku maguru yabo hariho ibyuma bivuga byitwa amayugi. Bakaba bambaye imyenda myiza cyane, izwi nk'imikenyero mu muco nyarwanda.

Inka iri mu kiraro baziritse amaguru yayo y'inyuma, kandi hari n'umugore uri gukama iyo nka, ari gufata ku mabere y'iyo nka, maze agakama amata yayo.

Inka zizwi mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu mateka ya mbere y'ubukoroni, zizwi ku mazina y'inyambo. Zifite amahembe maremare cyane, ukaba ari n'umwihariko wazo.

Igikoresho cyifashishwaga mu Rwanda hambere y'ubukoroni kizwi ku izina ry'ikigega. Aho cyifashishwaga n'abanyarwanda bakagihunikamo imyaka yabo, by'umwihariko iyo mu muryango w'ibinyampeke. Nk'ibigori, amasaka, ibishyimbo, ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Nyirarunonko ikintu kizwi mu muco nyarwanda, aho bacyubakaga bifashishije ibinombe, barangiza bakagicanamo umuriro hagamijwe kugira ngo botsemo ibijumba, amateke n'ibindi, umwihariko w'icyo kinyubako ni uko ibintu bokejemo biryoha cyane byahebuje.

Umugore wambaye imyambaro y'umuco nyarwanda, aho yambaye umukenyero ndetse n'umwitero, bizwi cyane mu muco w'u Rwanda.

Kimwe mu bikoresho bizwi cyane cyane mu muco nyarwanda, kizwi ku izina ry'inanga aho cyifashishwaga n'abantu babaga bari gucuranga imbyino gakondo ndetse n'umuziki muri rusange.

Umwami yabaga ari umutegetsi wayoboraga ubwami bw'u Rwanda. Ari hagati y'abagabo bane. Abo bagabo bakaba bazwi nk'abagaragu. Babaga bashinzwe kubungabunga ibyo mu rugo rw'ibwami, ndetse no kumurinda.

Ubwoko bw'ibiryo bizwi cyane cyane mu muco w'u Rwanda ,aho bafashe ibijumba, ibishyimbo, ndetse n'ibitoki bidatonoye ,hamwe n'imyumbati, bakabitekera hamwe babivangavanze. Ibi ngibi bikaba bizwi nko kugereka iyo bavanze ibiryo by'aya moko.

Ahantu bakorera ibikoresho gakondo, bizwi cyane mu muco nyarwanda. Aho byakorwaga hifashishijwe ibumba haragaragara inkono zakozwe aho bazikoreshaga igihe babaga bari guteka ndetse kandi n'bindi byifashishwaga n'abantu batara inzoga gakondo izwi nk'urwagwa.

Ikintu cyubatswe muri forume y'inzu kizwi cyane cyane mu muco nyarwanda kitwa nyirarunonko, aho bagicanira cyubakishijwe ibinombe maze bagashiramo ibijumba cg se amateke, barangiza bagahura maze ibyo bijumba bigahiramo, ikintu kizwiho ikijumba cyokerejwemo kiraryoha cyane.

Bimwe mu bikoresho bizwi cyane cyane mu muco w'u Rwanda harimo: uducuma, imiheha, byose byifashishwa mu bijyanye no kunywa inzoga y'urwagwa, ikindi kandi haragaragara udukoresho tuboshye tuzwi ku izina ry'udukangara. Ikindi kandi haragaragara ibirago bibohwa mu byatsi byitwa imisuga.

Ikigega kimwe mu bikoresho byifashishwaga n'Abanyarwanda mu Rwanda rwo hambere, aho bagikoreshaga bari guhunika imyaka babaga bejeje nk'ibigori n'amasaka.

Igikoresho cya gakondo kizwi nk'ingobyi. Iki gikoresho cyifashishwaga mu rwanda rwo hambere y'abakoroni, igihe babaga bari guheka umuntu warwaye cangwa se umwami. Ikorwa hifashishijwe ibyatsi karemano.

Inka kimwe mu binyabuzima bibarizwa mu muryango mugari w'izi nyamabere, by'umwihariko izi nka zifite amahembe maremare gutya, zibarizwa mu zitwa inyambo, zikaba ari umwihariko w'u Rwanda, kuko zimwe nta handi hantu zagaragaraga.

Abantu bazwi cyane cyane mu muco nyarwanda bazwi ku izina ry'intore, aho babyina mu birori bijyiye bitandukanye by'umwihariko ibwami, mu migongo yabo haragaragara inzu yubakishije ibyatsi izwi nk'ingoro y'umwami cg se ikitabashwa.

Igikorwa kizwi cyane cyane mu muco nyarwanda, kizwi cyane kw'izina ryo gusangira, aho abantu babagaho bahuriye ku ndemberi aho buri umwe afite umuheha we, bari gusangira ibinyobwa gakondo bikorwa mu masaka bizwi nk'ubushera cyangwa se ikigage.

Umwami wayoboye igihugu cyu Rwanda witwaga Mutara Rudahigwa. Akaba nawe yari umuhungu w'undi mwami witwaga Kigeli Rwabugiri uyu mwami yagize uruhare rukomeye cyane mu bijanye no gushaka ubwigenge bw'igihugu cyu Rwanda, akaba yaraguye mu gihugu cy'Uburundi aho yari yagiye kwivuriza ategwa urushinge.

Ikigo gakondo kizwi cyane cyane mu muco nyarwanda kerekeranye no gukora ibikoresho byo mu rugo bikomokaga mu ibumba. Bakoramo ibibindi, imbabura ndetse n'ibindi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Inzu yubakishije ibyatsi, aho izwi mu mateka y'u Rwanda cyane nk'aho yabaga ari ingoro y'umwami, mu irembo ryayo haragaragara inka ifite amahembe maremare cyane, izwi mu mateka yacu ku izina ry'inyambo.

Bimwe mu biribwa gakondo byaribwaga mu Rwanda rwo hambere, harimo umutsima w'amasaka, ibijumba, ibigori bitetse biriho ibihu ndetse n'ibindi byinshi cyane, aho biri kuribwa hifashishijwe ibikoresho gakondo, nk'intara iteretseho umutsima.

Umugore wikoreye ibikoresho bizwi cyane cyane mu muco Nyarwanda, aho bikorwa mu bibumba bikaba bizwi ku izina ry'ibibindi, byifashishwaga mu muco Nyarwanda, aho bataragamo urwagwa cyangwa se inzoga ziva mu bitoki, ikindi kandi byifashishwaga washyiramo amazi.

Ibikorwa byabagaho mu Rwanda rwo hambere, aho bafataga umwami bakamuheka mu gikoresho bitaga ingobyi, naho ibiti bashyiraga ku bitugu babyitaga imicisho. Ibi byakorwa mu Rwanda rwo ha mbere y'ubukoloni cyane cyane.

Bimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, haragaragara igikoresho gikozwe mu giti kizwi nk'icyansi ari cyo babuganizagamo amata, kugira ngo avure. Intara iboshye mu byatsi, yifashishwaga bagosora ibishyimbo, n'ibindi binyampeke.

Ibikoresho gakondo byifashishwa n'abantu babaga bari korora inzuki, bizwi nk'imitiba ibi byifashishwaga mu Rwanda rwo hambere mbere y'uko abazungu badukana ibikoresho bya kijyambere, iyi mitiba yabobohwaga mu mbingo n'ibindi biti bagasembaho ibirere byavaga ku nsina.

Bimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu rwanda rwo hambere harimo igisabo, isekururo, umuvure, ndetse n'ingobyi bahekagamo umurwayi.

Abantu bazwi cyane cyane mu muco nyarwanda, aho bifashishwa cyane mu bikorwa byo kubyina mu ngo ibwami ndetse no mu birori byinshi cyane bigiye bitandukanye. bafite utuntu tumeze nk'ibiti dusongoye tuzwi nk'amacumu ndetse n'ibintu bimeze nk'ibisatsi ku mitwe yabo, bizwi nk'imigara.

Kimwe mu bikoresho gakondo byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere, kizwi nk'ishoka. Ikindi kandi kizwiho kuba kigira amazina menshi cyane. Nk'imbazi, indyankwi, ndetse n'andi menshi, cyifashishwa mu bintu bijyanye no guca kabiri ibiti.

Kimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu, kizwi ku izina ry'isekuru. Iki gikoresho, gikozwe mu giti, aho cyifashishwaga basekura ibintu by'ibinyampeke, ndetse n'imiti gakondo, yifashishwaga mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Umusaza ufite igikoresho gakondo cyifashishwa n'abantu banwaga itabi, kizwi ku izina ry'inkono y'itabi cyangwa se ikijigo. Iki gikoresho cyifashishwaga igihe abantu baba bari gutumagura igikamba, cyangwa se iryo tabi rya kinyarwanda.

Abantu bazwi cyane cyane mu muco nyarwanda bazwi kw'izina ry'intore aba bantu bafashishwa cyane cyane mu kubyina mu birori bigiye bitandukanye, by'umwihariko imbwami, bafite ibintu bimeze nk'imisatsi ku mitwe yabo bizwi nk'imigara, ndetse n'ibintu bimeze nk'inkoni bafite bizwi nk'amacumu.

Ibikoresho gakondo bizwi cyane mu muco nyarwanda kizwi ku izina ry'ingoma, iki gikoresho cyakorwaga mu ruhu rw'inka ,aho barubambaga ku kintu kimeze nk'igiti, haragaragara n'uduti tuziteretse hejuru y'izo ngoma tuzwi nk'imirishyo, ari two twifashishwaga bavuza izi ngoma.

Kimwe mu bikoresho byakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere cyakorwaga hifashishijwe ibumba, cyitwa ikibindi. Kirimo utuntu tw'uduti turimo imyenge bita imiseke. Akaba ari two bakoresha igihe baba bari kunywa inzoga cyangwa umusururu. Twabaga turi mu kibindi.

Ibikoresho gakondo byifashishwaga mu Rwanda rwo hambere, harimo ingabo yifashishwaga n'ingabo zabaga ziri ku rugamba, haragaragara kandi ibyansi n'ibicuba byifashishwaga, igihe babaga bari kubibuganirizamo amata ndetse n'ibyibo byifashishwaga, igihe babaga bari gutwara ibinyampeke.

Abantu bari kubyina imbyino gakondo zo mu muco Nyarwanda, bamenyerewe cyane ku izina ry'intore. Bafite ibintu by'ibyuma bitanga amajwi, biri ku maguru yabo bizwi nk'amayugi.

Inyubako ngari yifashishwa, n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ibungabunga amateka y'u Rwanda, harimo ibikoresho byakoreshwaga, mu Rwanda rwo hambere, ingoma z'abami ndetse n'ibindi byerekeranye, n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda.

Kimwe mu bintu bizwi cyane mu muco w'u Rwanda ,imbyino gakondo zacu ,haragaragara abagabo ndetse n'abagore bari kubyina ,bafite ibintu bimeze nk'inkoni bizwi nk'amacumu ndetse ku mitwe yabo hari kugaragara ibintu bimeze nk'imitsatsi bizwi nk'umugara.

Abagabo bazwi cyane mu mateka y'u Rwanda aho bamenyerewe cyane cyane ku izina ry'intore, bafite ibintu bimeze nk'inkoni bisongoye imbere bizwi ku izina ry'amacumu mu muco nyarwanda, kandi bafite ibintu ku mitwe yabo bimeze nk'imisatsi bizwi nk'imigara, babyinaga kera cyane mu muco nyarwanda.

Abantu barimo gukora igikorwa kizwi cyane cyane mu muco nyarwanda, aho bari kwenga inzoga yitwa urwagwa bayikuye mu bitoki. Bari kuyengera mu gikoresho gikozwe mu giti kizwi nk'umuvure, aho bagikamiramo ibitoki bifashishije ibyatsi ndetse n'ishinge.

Ibikoresho bizwi cyane mu muco nyarwanda, aho hariho igikoresho gikozwe mu ibumba kizwi nk'inkono giteretse hejuru ikintu kizwi cyane nk'ishinga, aho ari ho bacaniraga umuriro ikindi kandi harimo inkwi zifashishwa mu guteka ibiribwa biba biri muri iyo nko.

Igikoresho gakondo kizwi cyane muco nyarwanda kizwi ku izina ry'isekuru, cyifashishwa basekura ibintu bikomoka ku binyampeke nk'ibigori ndetse n'uburo, iki gikoresho kandi gifite igiti bifashisha basekura kizwi nk'umusekuzo.

Igikoresho kizwi cyane mu muco nyarwanda cyamenyekanye ku izina ry'iyisuka. Aho imbere hari icyuma ndetse kikaba gikwikiyemo igiti kizwi ku izina ry'umuhini. Iki gikoresho cyifashishwaga mu bikorwa bijyanye no guhinga.

zimwe mu nyamaswa zororerwaga mu rugo, zibarizwa mu muryango w'inyamabere, zizwi ku izina ry'inka, zifite amahembe maremare cyane, zizwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda ku izina ry'inyambo, bikanaba ari umuwihariko w'igihugu cy'u Rwanda, kuko ntahandi hantu, wapfa kubona inka, zifite amahembe aresha gucya.

Igikoresho cyifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, aho bahunikagamo imyaka yabo nk'ibigori, ibishyimbo, n'ibindi, kikaba cyaritwaga ikigega, cyabaga gikoze mu byatsi.

Ibikoresho bizwi cyane cyane mu muco w'u Rwanda, bizwi ku izina ry'ibyibo, hariho ibyibo bibiri by'umweru n'umukara ndetse n'ikindi kimwe cy'umutuku ndetse n'umweru, byifashishwa batwaramo ibinyampeke nk'ibishyimbo, ibigori ndetse n'amasaka.

Ibikoresho gakondo byifashishwa mu rwanda rwo hambere, aho harimo isuka yo mu bwoko bw'mfwati, ndetse na najoro zakoreshwaga kera cyane, si ibyo gusa kandi hariho n'ubwoko bw'amasuka azwi nka nyirabunyagu, amapiki ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Ibikoresho gakondo bizwi cyane mu muco nyarwanda, aho hagaragaramo ibicuba byifashishwa babuganirizamo amata, ndetse kandi hagaragara n'igisabo kiri mu njishi zacu, aho bakicungiragamo amata.

Kimwe mu bikoresho bizwi cyane mu muco nyarwanda, by'umwihariko mu bijyanye no kwidagadura ndetse n'imbyino gakondo. Iki gikoresho kizwi ku izina ry'umuduri, aho kifashishwaga bacuranga imbyino zo hambere mu gihugu cy'u Rwanda, hagaragara n'umuntu ugicurangisha.

Intore, abantu bazwi cyane cyane mu muco nyarwanda, aho babyinaga mu birori byaberaga ibwami. Bafite ibintu ku mitwe yabo bimeze nk'imisatsi bizwi nk'amasunzu cyangwa se imigara. Ikindi kandi bafite utuntu tumeze nk'inkoni tuzwi nk'amacumu, ndetse n'amayugi ku maguru yabo.

Ibiryamirwa bizwi cyane cyane mu muco nyarwanda ku izina ry'urutara, aho hashasheho ikirago kiva mu byatsi ndetse haragaragara igicuma ndetse n'igiseke.

Ibikorwa ndangamuco w'u Rwanda ,bizwi nk'ingoma . Haragaragara abantu bavuza ingoma bazwi ku izina ry'abakaraza. Bafite uduti bifashisha bari kuvuza ingoma ,tuzwi nk'imirishyo.

Ibikoresho byakoreshwa mu rwanda rwo hambere y'ubukoroni ibyinshi muri byo byaba bikozwe mu biti, hano haragaragara ikiriko cyakorwagwaga mu giti ndetse n'imbehe nayo yaba ikoze mu biti byifashishwaga nk'ibikoresho byo mu rugo byakoreshwaga ku meza.

Intebe, umuvure, umusekuzo ndetse n'isekuru. Ni bimwe mu bikoresho byifashishwaga mu Rwanda rwo hambere, aho byakorwaga n'abantu babiramburaga mu biti. Ibikoresho byifashishwaga n'Abanyarwanda mu bikorwa bigiye bitandukanye, nko gusekura, kwenga urwagwa, kwicarwaho ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Igikoresho gikozwe mu giti kizwi kw'izina ry'umwuko, by'umwihariko kizwi cyane cyane mu muco nyarwanda kuko cyifashishwa mu bikorwa bijyanye no guteka mu gikoni.

Kimwe mu bikoresho byifashishwa mu Rwanda rwo hambere, aho cyakoreshwaga n'abanyarwanda igihe babaga bari gusekura imiti gakondo, bifashishaga igihe babaga bari kwivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Igicuma kimwe mu gikoresho cyakoreshwaga mu muco w'u Rwanda, aho bacyifashishaga igihe babaga bari kunywa inzoga. haragaragara akantu kameze nk'agati kari mu munwa w'igicuma kazwi nk'umuheha, aho ariko bakururiragamo inzoga.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga n'abanyarwanda, igihe babaga bari kunywa itabi rizwi nk'igikamba, bikaba byitwa inkono z'itabi cyangawa se ikijigo, ibi bikoresho byakoreshwaga cyane cyane mu bihe byo hambere, iterambere ritari ryaza ngo rizane amatari.

Kimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abanyarwanda kizwi ku izina ry'umuhoro, aho cyifashishwa bari gutema ibiti ndetse kandi kikaba kinifashishwa, igihe wabaga uri gucukura imyobo yo kubakamo ikiraro.

Kimwe mu gikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi cyane cyane muri iyi minsi mu isi y'ikoranabuhanga. Cyifashishwa mu gukora ibintu bijyanye na tekinoroji cyane cyane icy'itumanaho, cyiyifashishwa kandi n'abantu biga kuko kibafasha mu gukora ubushakashatsi bujyanye n'amasomo yabo.

Agakoresho gakoreshwa mu bintu bijyanye n'amashanyarazi, aho bagacomekamo itara kugira kabashe guha umuriro iryo tara kugira ngo ryake. Aka gakoresho na ko kaba gahujwe n'insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi, mu ndimi z'amahanga bakita soketi.

Abantu bari kubaka inyubako rusange zikorerwamo nk'amashuri, aho hantu abanyeshuri bahigira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye, bufasha mu bikorwa byabo bya buri munsi, ndetse binafite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu n'isi muri rusange.

Inyubako rusange, aho abantu bahurira bagiye gusenga, iyi nyubako yifashishwa mu bikorwa bijyanye no guhimbaza ndetse no kuramya Imana, aha ni abaturage bahurira hamwe, ndetse ikindi hashobora gukorerwa n'ibikorwa bijyanye n'ubukwe no gusezerana ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Inyubako rusange izwi nk' Urusengero hakorerwamo, ibikorwa bijyanye no gusenga, ndetse no guhimbaza Imana, si ibyo gusa kandi, hakorerwa ibikorwa bijyanye n'imihango yo gusezerana kw' abageni.

Icyumba rusange kirarwamo n'abarwayi kwa muganga aho baba baje kwivuza indwara nyinshi zitandukanye. ibitaro bifite umumaro ukomeye cyane, kuko barasanasana iminsi ikicuma.

Inyubako rusange ikorerwamo n'inzego bwite za Leta, by'umwihariko inzego zigisha haragaragara amazu maremare cyane, bigaragara ko ariyo abanyeshuri bigiramo bagahegwamo amasomo atandukanye.

nyubako rusange ikorerwagamo ibikorwa bijyanye no gusenga ndetse no guhimbaza Imana. Aangaha abantu barahajya bakajya gusenga ikindi kandi hanabera ibikorwa bijyanye n'ubukwe bwo gusezeranya abageni.

Inyubako yakorerwagamo ibikorwa bijyanye no gusenga, ndetse no guhimbaza Imana by'umwihariko abantu b'abayisilamu bateranira aha ngaha, muri ibyo bikorwa twavuze haruguru hagaragara kandi n'imodoka zijYanaga abantu bajya kusenga.

Igikorwa remezo rusange kizwi ku izina ry'ikiraro, aho abantu bacambukiragaho, by'umwihariko baciye hejuru yumugezi cyangwa se ikibaya, iki gikorwaremezo kikaba kigaragara ko kiri hejuru, cyangwa se giteye imbere muri bya bindi bizwi nk'ibinyura mu kirere.

Inyubako rusange aho abantu bateranira, bagahimbaza Imana yo mu ijuru, izwi ku izina ry'urusengero. Iruhande haho haragaragara abantu b'abakiririsitu baho baje kuhakora imirimo ijyanye n'isuku mu buryo bwo kubungabunga isuku impande z'urusengero.

Igikorwa remezo rusange kizwi nk'umuhanda wa kaburimbo. Ukaba wifashishwa n'ibinyabiziga nk'amamoto, amagare, ndetse n'imodoka, byose byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, biri kubavana mu duce tumwe, biri kubajyana mu tundi. Si ibyo gusa kandi n'abanyamaguru bawunyuramo.

Inyubako rusange za leta zikorerwagamo ibikorwa bijyanye no kwiga, aho abanyeshuri bahigira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, bigira uruhare mu mibereho yabo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Inyubako ikorerwamo inzego bwite za leta, by'umwihariko urwego rugufiya cyane ruzwi nk'akagari, izi nyubako zifashishwa mu bikorwa bijyanye no kwegereza ubuyobozi abaturage, batarinze gusiragira mu nzego za kure cyane ,ibibazo bigakemurirwa mu nzego zo hasi.

Ibikorwa remezo byifashishwa mu bijyanye no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, harimo insinga ziwutwara, amapoto ndetse n'amatara ari ku muhanda atanga urumuri mu masaha ya nijoro cyane cyane.

Inyubako rusange zikoreramo ibintu bijyanye no kwiga ndetse no kwigisha, ahangaha abanyeshuri barahaza bakahaherwa amasomo abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse gafite n'uruhare mu iterambere rirambye ry'igihugu cyacu, ndetse n'umugabane w'Afurika n'isi muri rusange.

Imirimo yerekeranye no kubaka, ibikorwa remezo rusange by'umwihariko, ikigamijwe ni ukubaka umuhanda aho hagaraga umwe mu bantu bari gukora ibikorwa byerekeranye n'icyo gikorwa remezo uzwi ku izina ry'umufundi.

Inyubako ikorerwamo n'inzego bwite za leta, by'umwihariko izijyanye no guca imanza ndetse n'ibindi bibazo byinshi cyane bitandukanye biba mu muryango mugari, izi kandi zifashishwa n'abantu mu gihe bashaka kwiga.

Inyubako ziturwamo n'abaturage, ndetse haragaragara insinga, amapoto, byose byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo biwukwirakwize mu baturage, babone urumuri, rufite uruhare rukomeye cyane, mu mibereho myiza yabo.

Inyubako ikorerwamo n'inzego za Leta by'umwihariko itangirwamo ibyerekeranye no kwiga ndetse no kwigishwa, aho abanyeshuri bigiramo bagahabwa ubumenyi bugiye gutandukanye, bubafasha mu buzima bwa buri munsi ndetse bunafasha mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Ahantu rusange haparika imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu, zibavana mu bice bimwe by'igihugu zibajyana mu bindi bice bitandukanye, izi modoka zifite umumaro utandukanye cyane, kuko zitanga akazi ku bantu, bityo bigatanga amafaranga ku baturage batuye igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako rusange izwi ku izina ry'urusengero, aho abantu bahasengera bakaza bakajya guhimbaza Imana, ndetse hashobora no kuba ahabera ibikorwa bijyanye no gusezeranya abageni, ndetse n'ubundi bukwe bugiye butandukanya.

Inyubako rusange ya leta yakorerwagamo ibikorwa bijyanye no kugorora abantu babaga bakoze amakosa, izwi nka gereza mu rurimi rw'ikinyarwanda, si ibyo gusa kandi hatangirwamo n'ibijyanye n'ubuzamu ku bantu bakosheje bidakomeye cyane.

Inyubako rusange ikorerwamo, ibikorwa bijyananye n'ubuvuzi, aho havurirwamo indwara z'amoko yose.

Isoko rya rusange rigurishirizwaho umusaruro w'ibikomokaga ku buhinzi nk'ibirayi ndetse n'ibindi. Haragaragara kandi umuntu utwaye ikinyabiziga kizwi ku izina ry'igare, cyifashishwa mu gutwara ibintu ndetse n'ibintu.

Inyubako rusange izwi ku izina ry'urusengero, ikorerwamo ibikorwa bijyanye no gusenga ndetse no guhimbaza Imana. Aha ngaha abantu barahaza bakishima bagasenga, si ibyo gusa kandi hanakorerwamo ibikorwa bijyanye no gusezeranya abageni.

Inama rusange yahujije abaturage ndetse n'ubuyobozi bwite bwa Leta aho hagaragaramo abantu b'ibitsina byombi, ni ukuvuga abagabo ndetse n'abagore bari kubaganiriza ku bibazo, byibasira sosiyete by'umwihariko ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Uruvunganzoka rw'abantu batandukanye cyane harimo abana, abagore ndetse n'abagabo bigaragara ko bari guhabwa inama cyangwa se bari mu bikorwa bijyanye no gutora, aho hari kubahirizwa uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Inama rusange yahujije abaturage，aho harimo abagore， abagabo，ndetse haragaragara n'umwe muri bo， urimo abaha ikiganiro， ndetse hakagaragara n'undi uri gufata amafoto.

Inama rusange yahujije ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'ababyeyi, bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore bitabiriye iyi nama, aho bari guhabwa amabwiriza ku bijyanye n'uburezi bw'abana babo.

Inama rusange yahuje ubuyobozi bwite bwa reta ndetse n'abaturage b'ingeri zose, aho hagaragaramo abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko bari guhabwa amahugurwa ndetse n'inyigisho zerekeranye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga nka moto n'imodoka, byifashishwa abantu batwara ibintu ndetse n'abantu, aho bifite uruhare rukomeye, cyane mu mihahiranire y'abaturage b'ibice bimwe by'Igihugu ndetse n'ibindi.

Imwe mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, aho zibavana mu duce tumwe ziri kubajyana mu tundi, zigira umumaro ukomeye cyane, kuko zimakaza ubuhahirane bw'ibice by'igihugu bigiye bitandukanye.

Ahantu imodoka ziparika ndetse n'ibindi binyabiziga, akaba ari naho abagenzi bategera imodoka, zibajyana mu bice giye bitandukanye, iyi gare igira akamaro gakomeye cyane, mu kwimakaza umuco w'ubuhahirane, n'imigenderanire hagati y'abaturage.

Imodoka kimwe mu binyabiziga byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, aho zibavana ndetse zikanabivana mu gace kamwe ziri kubijyana mu tundi duce tw'igihugu, ibi bifite umumaro gukomeye cyane mu iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage kuko byimakaza imibereho myiza.

Ahantu abaturage bafatira imodoka, ziva mu nce zimwe z'igihugu ziri kwerekeza mu bindi bice, by'igihugu ndetse zitwara abantu n'ibintu.

ikimodoka kinini cyane kizwi ku izina ry'ikamyo abenshi bagitazirira dipine . Kikaba cyifashishwa mu bikorwa bijanye no gutwara ibintu byifashishwa mu bwubatsi, nka masima amabuye , imicanga ,amaferabeto ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Kimwe mu binyabiziga byifashishwa n'abantu, batwara abantu, ndetse n'ibintu, babavana mu duce tumwe tw'igihugu, babajyana mu kindi kizwi ku izina rya moto. Ikinyabiziga gifite uruhare rukomeye cyane, mu iterambere ry'itumanaho, ndetse n'ubuhahirane mu gihugu cyacu.

Zimwe mu modoka zifashishwa mu gutwara umusaruro ukomoka ku bikorwa bijyananye n'ubuhinzi, aho izi modoka ziwuvuna mu nce umusaruro weramo zikawujyana mu tundi duce kuwugurishayo, ibingi bifite uruhare rukomeye cyane mu ihererekanwa ry'ubukungu, ndetse n'ubuhahirane bw'abaturage.

Ahantu rusange, aho imodoka ziparika, kandi akaba ari naho abantu bafatira imodoka zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi. Hagaragara abanyeshuri bagiye ku mashuri, aho baje gutega imodoka.

Ubwato, kimwe mu bikoresho cyifashishwa mu gukora ingendo zikorerwa mu mazi, aho gitwara imizigo ndetse n'abantu, kibavana mu bice bimwe berekeza mu bindi, si ibyo gusa kandi ubwato bwifashishwa mu bikorwa bijyanye n'uburobyi, nko gusarura amafi mu biyaga byinshi bitandukanye.

Ikimodoka kirekire cyane cyifashishwa mu gutwara ibintu biremereye, cyane cyane ibinyobwa cyangwa imifuka iba ifunzemo imiceri n'ibindi biribwa byinshi cyane, bizwiho kuba bikora byambukiranya imipaka y'ibihugu bicamo.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye. Moto zitwara abantu ndetse n'ibintu aho zibavana mu duce tumwe na tumwe zikabajyana mu bindi bice. Iki gikorwa remezo cy'umuhanda gifite akamaro gakomeye cyane kuko kimakaza ubuhahirane.

Ahantu rusange haparika imodoka ndetse na moto ,ndetse ni na ho abantu bajya bagiye gutega imodoka ngo zibajyane mu duce tw'igihugu, baturutse mu duce barimo ubwabo.

Ubwato kimwe mu bikoresho byifashishwa mu ngendo zikorerwa mu mazi, aho babukoresha batwara abantu ndetse n'ibintu bari kubivana mu gace kamwe no kubijyana mu kandi.

Kimwe mu bikorwa-remezo bifite agaciro cyane cyane kizwi ku izina ry'umuhanda. Hanyuramo, ibinyabiziga, ndetse n'abantu. By'umwihariko, ibinyabiziga binyuramo byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu. Ibyo binyabiziga harimo moto, imodoka ndetse n'ibindi.

Kimwe mu binyabiziga byifashishwa n'abantu batwara imizigo bayivana mu duce tumwe bayijyana mu tundi duce, kizwi ku izina rya rifani. Iki kinyabiziga kizwi cyane mu kuba gipakira ibintu byinshi cyane, ndetse kikaba kinakora mu bice by'imisozi.

Ikamyo nini cyane yifashishwa mu gutwara imizigo iremereye, by'umwihariko ibikoresho bikoreshwa mu bintu bijyaniranye n'ubwubatsi nk'imicanga, amabuye ferabeto ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Igikoresho cyifashishwa mu ngendo zikorerwa mu kirere, kizwi nk'indege kikaba kizwiho kandi kuba kigira umuvuduko, uri hejuru cyane kandi kikaba gikora ingendo, zambukanya imipaka y'ibihugu.

Ibikoresho bizwi ku izina ry'ubwato, bikaba byifashishwa n'abantu bakora ingendo zo mu mazi. Si ibyo gusa kandi banabwifashisha igihe bari gukora ibikorwa bijyanye no kuroba amafi yo mu mazi. Bufite umumaro ukomeye cyane, kuko butuma habaho imihahiranire n'imigenderanire hagati y'abantu batandukanijwe n'amazi.

Ahantu rusange haparika ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka, akaba ari naho abantu bategera imodoka zibavana mu duce tumwe tw'igihugu ziri kubajyana mu bindi bice, ibingibi byimakaza umuco mwiza w'ubuhahirane hagati y'abantu batuye mu nce zitandukanye z'igihugu cyacu.

Igikorwa remezo rusange kizwi ku izina rya gare. Aha ngaha hakaba ariho imodoka ziparika zigamije gutwara abantu, ngo zibajyane mu duce tumwe zibavanye mu tundi duce.

Igikorwaremezo cya rusange kizwi nk'umuhanda wa kaburimbo, ukaba unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'amagare, moto ndetse n'imodoka, ibi byose byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, biri kubavana mu bice bimwe, biri kubajyana mu bindi, bikaba byimakazaga umuco w'ubuhahirane hagati y'abaturage.

Abantu bakora umurimo ujyanye no gutwara abantu ndetse n'ibintu, aho babavana mu gace kamwe babajyana mu kandi gace bamenyerewe ku izina ry'abanyozi . Aho bakora uwo murimo bifashishije ikinyabiziga kizwi nk'igare.

Inyubako rusange aho imodoka n'ibindi binyabiziga biparika, akaba ari na ho bikura abagenzi bikabatwara bibavana mu gace kamwe biberekeza mu bindi, ibi bifite akamaro gakomeye cyane mu kubaka ubuhahirane butajegajega hagati y'Abanyarwanda.

Ahantu haparika imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hazwi ku izina rya gare, aha ngaha niho abantu bajya igihe bagiye gutega imodoka, ngo zibajyane ahandi hantu, ahantu hagira akamaro cyane, kuko himakaza ubuhahirane hagati y'ibice by'ibihugu bitandukanye.

Umuhanda ugezweho uri mu bwoko bwa kaburimbo, unyuramo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye. Harimo imodoka zitwara abantu n'ibintu, aho zibavana mu duce tumwe tw'igihugu cyacu, ziri kuberekeza mu tundi duce tw'igihugu.

Umuhanda uri mu bwoko bwa kaburimbo, unyurwamo n'ibinyabiziga by'amoko menshi cyane atandukanye. Harimo moto, amagare ndetse n'imodoka. Byose bikaba byifashishwa n'abantu batwara ibintu ndetse n'abantu, bikabavana mu duce tumwe biri kubajyana mu tundi duce tw'Igihugu cyacu.

Ibikamyo binini cyane byamenyekanye ku izina ryahoho, aho byifashishwa hari gutwarwa ibikoresho bikoreshwa mu bintu bijyanye n'ubwubatsi nk'umucanga, amabuye, ferabeto, sima ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Ahantu rusange imodoka ziparika zigamije gutwara abagenz, haragaragara abantu benshi cyane bigaragara ko baje kuhafatira imodoka zibajyana mu bice bitandukanye byinshi cyane by'igihugu.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, by'umwihariko umusaruro Ukomoka ku bikorwa byerekeranye n'ubuhinzi nk'imbuto, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Ahantu haparitse ibinyabiziga bitwara imizigo, bizwi ku izina rya lifani, aho byifashishwa hatwarwa imizigo iremereye cyane.

Ahantu baparika indege zitwara abantu, ndetse n'ibintu zibajyana mu bindi bice by'isi, zibavanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi.

Ikiyaga kinini cyane aho hagaragaramo abantu bari mu gikoresho kitwa ubwato. Iki gikoresho cyifashishwa n'abantu banyura mu mazi, bava mu gace kamwe bagana mu kandi gace baciye mu nzira z'amazi, cyane cyane mu Rwanda nko mu Kivu, Burera ndetse n'ahandi henshi cyane.

Itssinda ry'abantu b'abasore barimo gukora ibikorwa ngororamubiri byo kwirukanka n'amaguru. Ukora siporo nk'izi ngizi bifite umumaro mwinshi cyane utandukanye ku mubiri w'umuntu uyikora: kugororoka k'umubiri, gukomera kw'amagufa ndetse no kugabanuka kw'ibyago byo kurwara indwara nyinshi cyane.

Imwe mu mikino ikunzwe cyane ku isi ijyanye no gusiganwa hifashishijwe ibinyabiziga bizwi nk'imodoka. Iyi mikino ikunda kubera mu mihanda y'igitaka, nk'uko bigaragara cyane cyane, inyuma hagaragara ibivumbi ryatewe no kuba uyu mukino uri kuba mu gihe cy'izuba ryinshi cyane rizwi nko mu cyi cyangwa se impeshi.

Abantu bari gukina umukino bakina bakoresheje amaboko, uzwi nka basikete boro mu rurimi rw'ikinyarwanda, haragaragara kandi abantu benshi cyane, baje gufana aba bantu bari gukina uwo mukino wa basikete boro.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, zerekeranye n'imikino ikinishwa hifashishijwe amaboko, izwi mu ndimi z'amahanga nka basiketeboro, siporo igira akamaro gatandukanye cyane ku mubiri, nko guhangana no kurwanya indwara zibasirara abantu.

Abakinnyi bakina umukino ukinishwa amaguru by'umwihariko mu ndimi z'amahanga uzwi nka futuboro, uyu mukino ufite akamaro kenshi cyane kuko ari ingororamubiri ituma wirinda indwara nyinshi nk'umuvuduko w'amaraso ku mubiri w'umuntu uyikora.

Ahantu bakorera imyitozo zigorora umubiri, by'umwihariko hakinirwa imikino ikinishwa amaboko zizwi nka basikete boru ndetse kandi iruhande haragaragara ishamba ririmo ibiti birebire cyane.

Abantu bari gukina umukino wo kwirukanka ku maguru yabo uzwi mu rurimi rw'Ikinyarwanda nka marato. Uyu mukino ni mwiza cyane kuko winjiriza abantu bawukina nk'ababigize umwuga. Bityo ukaba ufite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ryabo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugaragaramo abantu benshi cyane bari ku murongo. Aho bari gukina umukino w'amagare umenyerewe cyane mu Rwanda, iruhande rwabo haragaragara abantu bari gufana aya magare ariko bikoreye n'inkwi zifashishwa nk'ibicanwa mu muryango mugari nyarwanda.

Abantu bari gukina umukino ukinishwa intoki uzwi mu ndimi z'amahanga nka volebolo. Iyi siporo igira umumaro ukomeye cyane ,kuko irinda indwara mu mubiri w'abantu bawukina, si ibyo gusa kandi abantu bawukina babigize umwuga, bavanamo amafaranga nk'imishahara babahemba.

Imwe mu mikino ngororamubiri bakina mu gihugu cy'urwanda izwi nk'umukino w'amagare, hagaragara umuntu umwe uri gukina uwo mukino aho uyu mukino ukunda gukinirwa mu mihanda ya kaburimbo, ndetse hakaba hari n'irushanwa rizwi cyane mu gihugu cyacu cy'urwanda ku izina rya turu di rwanda.

Umukino bakina bakoresheje amaguru yabo bwite aho baba bari kwirukanka uzwi ku izina rya mucaka. Uyu mukino urakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga ikindi kandi ufite umumaro ukomeye cyane mu kugorora imibiri y'abantu bawukina bityo bakagira ibyago bike byo kurwara indwara z'umuvuduko w'amaraso.

Umukino ukunzwe cyane ku rwego rw'isi, ukinwa hifashishijwe ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka. Uyu mukino ufite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu, kuko ufasha mu gukurura ba mukerarugendo. Ikindi kandi utanga ibyishimo ku bantu bawureba, ndetse n'inyungu z'amafaranga ku bawukina.

Abantu b'igitsina gore bari gukina umukino bakina hifashishijwe amaboko uzwi nka handiboro mu ndimi z'amahanga, uyu mukino kimwe n'iyindi yose ufite uruhare rukomeye cyane mu mibereho nko kugira umubiri ufite imbaraga, kuko siporo irinda indwara nyinshi cyane zitandukanye.

Umwe mu mikino ikinwa mu gihugu, ukinwa hifashishijwe amaboko, uzwi mu ndimi z'amahanga nka basiketiboro, uwo mukino urakundwa cyane, kuko iyo wakinwe abantu baza kuwureba ari benshi cyane. Ikindi kandi ugira ingaruka nziza ku mubiri wacu, cyangwa se abakinnyi bawukina, nko kubarinda indwara zitandukanye.

Abantu benshi cyane bari ahantu bakinira umupira w'intoki, iruhande hari umugabo uhagaze ku ntebe ariwe wayoboraga uyu mukino uzwi nka volley ball mu ndimi z'amahanga.

Abantu bari gukina umwe mu mikino zikunzwe cyane, ukinishwa intoki uzwi nka basiketi bolo, uyu mukino ufite akamaro gakomeye cyane, kuko abantu bawukina bagira umubiri ukomeye bitewe n' iyi siporo sibyo gusa kandi unatanga ibyishimo ku bantu bawureba.

Umukino ukinishwa amaboko uzwi mu zindi ndimi z'amahanga nka handibolo, aho abantu bakina uyu mukino bakunda kugira umubiri ukomeye cyane, kuko handibolo kimwe n'izindi siporo zose zirinda indwara z'umubiri, nk'umuvuduko w'amaraso, imitsi, ndetse n'izindi nyinshi cyane.

Abana b'abakobwa bari gukina umupira w'amaguru. Uyu mukino ni umukino ukundwa cyane ku rwego rw'isi, ariko kandi ufite n'umumaro ku mubiri w'abantu bawukina. Si ibyo gusa kandi, utanga n'amafaranga ku bawukina barabigize umwuga.

Siporo rusange yahubuje abaturage bose, abana, abagore, ndetse n'abagabo, aho bari kwirukanka bifashishije amaguru yabo. Siporo ni igikorwa cyiza gifite umumaro ukomeye cyane, kubungabunga ubuzima bwiza butarimo indwara nk'umuvuduko w'amaraso, ndetse n'izindi.

Umwe mu mikino ikinwa n'abantu bafite ubumuga bw'amaguru, izwi mu ndimi z'amahanga nka sitingi voreboro, aho bawukina bifashishije amaboko yabo ariko nanone bicaye, uyu mukino ufite akamaro gakomeye cyane, kuko utanga ibyishimo ku bantu bawureba ndetse n'abantu bawukina.

Inyubako rusange ikorerwamo ibikorwa bijyanye n' imikino y' umupira w' amaguru, basiketi bolo ndetse n' ibindi byinshi cyane bijyanye no kwidagadura.

Abantu bari gukora siporo ikorwa hifashishijwe, kwirukanka n' amaguru izwi nka marato, iyi siporo ni ingirakamaro cyane cyane ku mibiri yacu, kuko irinda indwara zimwe na zimwe harimo umuvuduko w' amaraso ndetse n' indwara zijyanye n' umutima.

Abantu b'igitsina gore bari gukina umukino wukinishwa amaboko uzwi nka voreboru aho bari gukina bakinishije ibiganza byabo, iyi siporo n'ingirakamaro cyane ku mubiri wa muntu kuko irinda indwara nyinshi cyane mu mubiri.